Umuntu wambaye amaga gw'umweru, uri gusukira urugemwe ruri mu gihoho gikozwe mu bumba bashizemo itaka bararugemeka, afashe agatibe ari gusukizamo umuti n'amazi.

Amacupa abiri n' akadomoro bifite ibara ry'umweru n'umufuniko gusa n'icatsi byanditseho agorokemiko porodagite harimo imiti zitandukanye.

Umugabo uhetse icuma c'ipombo c'umuti, ari gucucira ibirayi ku muririma mugari. Yambaye agapfukamunwa gafashe mu impanga, inyuma n'imbere. Hirya muri iyi myaka harimo ibiti biteye.

Umuntu ufashe icupa rya palasitike rya roketi risize amabara g'umururu n'ag'umuhondo, ririmo umuti bateraga ibirayi n'inyanya na Karoti.

Umuntu wambaye amaga g'umweru afashe umufuniko urimo itaka, ari kuranduramo urugemwe rufite amababi atatu, impande ye hari izindi ngemwe nyinshi.

Umugabo uri mu bwato wenyine n'ingashi yabwo， ari gufata， amafi akagitegereza mu ntoki， hirya yaho hari amazi menshi y'ikiyaga，ari gusuma ari kumwe n'umusozi uri hirya mu karwa gatoya.

Ubwato butatu buziritse ku nkombe, abasare babwo bahagaze imbere. Hari amabuye g'umukara gahari n'umucaca, buri impande y'ikivu bufatishijeyo umutwe gumwe na gumwe, hari n' umugabo uhagaze uri kubureba neza.

Umugati guri ku isahane na capati n'imboga z'icatsi, n'ironji rikase ikizeru mo kabiri, hariho n'ubunyobwa buri ku isahani byo kuwurisha nta sosi.

Ibyuzi baroreragamo amafi bitandatu hirya yabyo hariho ibiti biri ku muronko gumwe bimeze nk'igitari hirya hakaba umuhanda guri kugendamo imodoka y'umukara.

Ifi yokeje iri hejuru y'imbabura hasi hariho amakara, hejuru bashyizeho itunda ry'irongi rikasemo kabiri. Hariho n'ibyatsi bisa n'icatsi biri hirya yaryo, hasi hari umuriro mwinshi uri gukengerana.

Amafi menshi gasutse hasi gatandukanye, gari kureba impande zitandukanye. Hariho igipaniye c'umutuku ic'umweru hariho n'ikibase, c'umukara kirambitse hejuru yago.

Amafi arindwi gari hamwe bamaze kuroba bagashira mu kintu kimwe, ga tumusoni gatakiri mazima, gakenewe kuribwa.

Amafi ya tomusoni ari mu dutebo twinshi tuboshye mu migwegwe, hariho n'imigano zituzengurutse, aracyari mazima ntabwo bari bayashyira mu mavuta ngo bayakawushe.

Umuhanda gw'amabuye g'amagaraviye uri hagati y'imirima ibiri ,gumwe gurimo ibigori bigiye kwera bihetse harimo n'igiti ,hirya yaho hari uruzitiro ruzitije urubingo n'igiti c'avoka, hino hariho umucaca guri gukura.

Igitogi ihinzwe hagati ya jaride ni mboga z'inyabutongo, hirya yaho hari umucaca n'amago y'igipangu ahegereye, zifite uruyange rwashaje rukwisesa.

Igipangu kirimo amateke imboga z'imbwija zigiraga amababi maremare, abishyimbo bitondagiye ku mawuwa hasi hari amabuye garambitse n'ibyatsi batatoraguye.

Ipoto rishinze mu murima urimo ibirayi, imbere yawo hari ikidodoki kiri ku ruzitiro, hegereye igitoki kiriho insina zitandukanye, imbere yazo hari amazu n'igiti.

Ibirayi bitakuze neza, bifite amabara y'icyatsi n'uruyange, hirya yaho hari amazu yubakishije imigano n'amabati gusa, hari n'ibiti bitaratemwa biri muri uwo murima.

Imigozi z'ibijumba ziteye mu murima n'ibigori basaruye bigihagaze ibigorigori byabyo, harimo n'ibiti bitari byatsindwa ngo babitemerere hasi.

Urutoki ruri kwana, rurimo isombe, ibishyimbo, inyuma yarwo hazitiye uruzitiro rw'amashwagari , n'ibitusi imbere hari agacaca.

Umurima gw'ibirayi bikiri bitoto bateye umuti gwa detani. Iruhande rw'inzu hari isombe, uruzitiro rw'ibidodoki n'ibitoki by'insina.

Igitari kirimo ibiti bito n'binini, ibyatsi bikiri bigufi, ibikimera, ibyatsi byagiye biragwa hasi, amababi yagiye aragwa hasi, n'ibiti bitarakura neza.

Ibyatsi biyangaga nk'uburo bisa n'icatsi munsi yaho hameze utwatsi, hirya yabyo hari ibisheke bizitiye n'amatafari ahiye agiye gusa n'umutuku cane.

Ibirayi bitari byera neza ariko byahunguye uruyange bifite amababi g'icatsi, iyo ubiranduye usangaho utujonjori n'ibinini ariko ntago byari byagira amababi gw'umuhondo.

Amabuye gatandukanye harimo amabuye manini, harimo amabuye matoya, harimo agafite impande zisorongotoye, agandi gagiye garamenagurika gameze nk'amagaraviye gari ku ruhande.

Amajeri gagiye kwera gatarigera neza gateye mu rutoki gwamaze kwana rufite injegwe z'imigano hirya yarwo hariho igitari bitaga ishamba kinini.

Umurima guteyemo za karoti nyinshi, impande yago hariho ibyatsi bitaga umuhati, hirya hariho igitari n'inzu yubakishije amabati g'ubururu n'uruzitiro rw'ibyatsi by'ibigorigori.

Ibigori bya buride bifite imiheko zifite ubusenzi bitari byera neza, ariko amababi go hasi garumye, ago hejuru garacari icatsi, hasi ntabwo bibagaye, bifite umucaca hasi utabagariye neza.

Igipangu impande yaco hariho inyabutongo n'ibitunguru bifite ibara ry'icatsi, hariho za kapusine zifite amabarara g'icatsi n'ibiti by'imihati, hirya yaho hakaba ibisheke bitari byakura neza.

Ibihaza biri mu murima gwabyo gonyine keretse igipoto giteyemo, ibyatsi byagiye biramera harimo iby'umuhondo, hirya y'ugo murima harimo indabo zizengurutse mu busitani bw'igihaza.

Ibiti by'imyembe biteye bihagaze bifite amababi y' icyatsi bifite imyembi iri kwereraho yahishije y'umutuku biteye mu ubusitani.

Foka ibiri ziteze neza zifashe ku giti cyazo zifite amababi g'icyatsi. Hasi y'ico giti hariho umucaca gutarigwakura zijaga ziragwaho.

Intoryi zisa n'icyatsi ariko zo zisa n'umweru zifite inkondogosho baziciye nk'ejo, ariko ntago zari zera cyane ngo zitukurize.

Amatunda g'imbuhu gateze gafite amababi gasa n'icatsi, hariho n'udutunda tw'udushogi nka dutandatu ntitwari twera neza, kuko utweze tubaga dusa n'umuhondo.

Imiteja y'amajeri isusuye isa n'ibara ry'icyatsi, igaragara nk'aho ari mitoto, ntabwo ikuze irunze hamwe, ni myinshi barayisoromye bayisuka ku kintu kimwe.

Ibijumba bakuye n'isuka bikiri ku migozi yabyo，bigifite amabara gatashaje，ubutaka busa n'ubwumukara，butari ubw'umutuku， ku ruhande hari ibindi bitabire.

Iduka bacururirizamo ibiribwa bibisi harimo: ibirayi bisutse ku gisima hasi, ibitoki baharanguye, imyumbati zikuze, ibishimbo biri ku mufuka, n'inyanya zifite amaba g'umutugu zitarimo iz'icatsi.

Umugore wambaye igitenge hejuru, wambaye umukara, n’umugabo wambaye ishati y’umweru n’ikoti ry’umukara, bari mu murima gw’imyumbati. Baranduye umwumbati guriho izindi ku ruhande, iyo bafashe mu ntoki.

Ibijumba byiza binini, bimaze kuradurwa bigifashe ku giti bikiriho n'ibitaka, aho bamaze kubirandurira n'amababi yabyo hirya agihari, batari bayasoromaho.

Indimu baryaga n'imiteja basusuraga na puwavuro batekaga na karoti n'intoryi zitari zasha cane, batanditse ku mufuka ku ruhande rw'isoko.

Inyanya n'intoryi biri ku mifuka ibiri itandukanye, gumwe guri ukwago n'ugundi ukwago, hari umuntu wambaye urukweto rw'umweru ipataro y'ikoboyi.

Amahundo y'umweru menshi arunze hamwe, yaboze ku mutwe, hari umuntu uri kuyakoraho, ufite inzara zidasize amabara, wambaye umupira usa n'umutuku.

Abagore bashize ibidodoki ku mufuka izindi mifuka zifite amabara gatandukanye ziri iruhande rwabo zipakiyemo ibidodoki bafite n'ibipaniye biri imbere yabo bari gutondekaho ibindi.

Igikarito giteretseho ibinyomoro biri mu ishashi, ibihishije n'ibidahishije bifite amabara g'umutuku nagicatsi ikindi byegeranye giteretseho amaronji gashaje nagatari gashaza gafite amabara g'umuhondo hirya yaho hariho n'imyembe isa n'icatsi indi yahishije.

Iki ibisheke birambitse ku mabuye bifite ingingo z'umuhondo imbere yabyo hicaye umugabo n'agatanda hari n'imifuka irimo ibijumba.

umugabo uri mu murima w'ibigori bitarakura neza bitaraterera, afashe ibyo akuyemo yaranduye. Hirya ye hari imisozi iriho amashyamba n'ibiti bitandukanye.

Ibijumba byogeje bifite amabara g'umutuku bya Mugorora biri ku kirundo n'iby'umweru bya Nyirawadada, byose bidondetse ikirundo biri ku itsinda rimwe.

Umurima guteyemo inyanya zeze, harimo n'iziteze neza zifite amabara g'icatsi mbisi, n'izifite amabara g'umutuku zeze wateka mu safuriya, hirya y'aho hari imboga z'inyabutungo wasoroma.

Ibirayi bya kirundo bikuye byeze cyane, binini bivanze n'ibitoya, batari batoragura ngo babishyire mu mifuka yabugenewe.

Amatunda ga marozi gari mu kabase gasa n'ubururu harimo ageze n'agateze neza garacafite inkondo na twa tuntu tw'umuhondo tubaga tuvuye ku ruyange tubaga turi inyuma yago.

Ibigori biteye mu murima, bihetse bibiri bibiri bitari byakura neza, bitari byuma ubusenzi, bifite amababi gakiri matoto, hirya yaho harimo umurima gundi birimo.

Abantu bane bari guhinga ibirayi ku misitari bagiye barabitondeka ku muronko, hirya ya ho hari amategura gw'umukara n'inzu ifite amadirisha gafunguye, bafite n'imihini y'amasuka mu ntoki bari kugenda baratsibisha.

Ibishimbo byinshi biri ku gasahane k'ubururu, bifite amabara atandukanye ya maharare, na y'umweru na y'umutuku, ubwoko bwa kajamarike, n'umushingiriro n'ibyitwa kinigi.

Ni ihene y'umukara n'umweru ihagaze hamwe, yabinduye umurizo, ifite amahembe maremare, hirya yaho hari ibiti bizitiye aho yegereye aho iri.

Abagore bafashe amananasi bari ku muronko gumwe buri wese afashe iye iye, harimo abambaye ibitenge bifite amabara g'umukara n'ag'umuhondo, n'umugore witeze n'undi uri guseka ufashe ikinanasi kinini.

Umugabo ufashe ibigori ku kuboko, biciye, bitariho imisigati n'imitwetwe y'aho yavuye, bifite ubusenzi n'inopfu ku mitwetwe.

Inanasi nyinshi zimennye ku butaka, umugore uri kuzishira mu gitebo; wambaye igiteteyi cy'umukara, Hirya ye hari igare rifite intebe y'igare y'umuhondo.

Umusozi guteyeho ishamba ry'ibyatsi bigufiya by'icatsi cinshi hariho no mondani harimo akantu gafite ibara ry'umuhondo hirya hari y'ibiti birebire.

Umugore uhetse igisero gihambiriye n'umushumi mu bitugu. Yunamye ari gusoroma icayi. Hirya hariyo abandi bagore na bo babihetse, bari gusoroma. icayi, barajugunya muri ico gisero.

amaronji menshi gari mu gitebo harimo agashaje n'agagifite amabara g'umuhondo gakiri matoto hari umugore ugafashe mu ntoki impande hari n'agandi k'icatsi.

Abagabo abagabo n'abagore bunamye bari kugenda barabagara ibirayi biri ku muronko gumwe gumwe, hirya yaho hari igishanga kirimo umuceri n'ibindi bintu by'ibyatsi.

Iduka ry'ibinyampeke harimo ibigori bya mayizori bifite amabara g'umuhondo, n'ibigori bya tamira biite amabara g'umweru, n'amasaka g'amamera gari mu mufuka g'umweru, n'ibishimbo n'amakoma biri mu mifuka.

Itsinda ry'abagore nabagabo rifashe ibihoho biri mu bibase, birimo ibiti biteye bikiri bitoya bya pepiniyeri, harimo abambaye ingofero, bifite amabara y'ubururu n'amabase y'ubururu, n'ay' umutuku, n' ibisero.

Amateke menshi gagiye gusa n'umukara bavuye gukura gakase ibirundugushu gari ku mbuga barambitse gonyine gari iruhande rw'umufuka.

Amatunda yeze y'amarozi asatuyemo ibice bitatu, hariho andi atatu adasatuye ariko mu nda hagasa n'umuhondo, akaba ari umutuku inyuma.

Ibihaza by'amadegede bine biri ku mufuka guteretse ho ibuye, hirya yaho hari imbuga y'ibitaka idasijije neza.

Abagore basoromaga icayi bacikoreye mu bitebo harimo n'umugabo ubashoreye, impande yaho hari umurima gw'icayi harimo akayira n'uruzitiro hirya yabo.

Ikinyomoro gitoya gitoto gifite amababi mabisi kitari cayanga, giteye ahantu hari za karoti hasi n'ibyatsi bitandukanye.

Umugore ufashe isuka ku rutugu wambaye agashati karimo amabara g'umutuku n'igitenge kirimo umutuku, umweru n'ubururu, hirya ye hari umurima w'icayi n'umusozi.

Inkoko iteretseho ishashi irimo ibinyomoro bifite amabara g'umutuku n'ag'icatsi, hirya y'aho hari indi iriho wotameloni zisatuye n'imyembe. Hirya hariho udufuka two kubitwaramo dufite amabara g'icatsi n'umuhondo n'umutuku.

Umugabo waranduye umwumbati weze cyane ufite nyinshi cyane, inyuma ye hari undi uri kurandura iyindi, iyindi iraryamye barangije gukura, yambaye n'inkweto z'umweru.

Abagabo babiri bari mu muririma w'ibirayi, bambaye imipira y'icyatsi, bakuyemo ingofero ziri inyuma ,bari gusoroma uruyange cyangwa indabo z'ibirayi.

Urugo gw'inzu rudakoze neza rurobetse ibyondo gusa rukazitizwa amabuye gariho ikidodoki, inyuma hariho ibigori, impande mu mbuga hariho insina y'igitoki yannye ifatishijwe n'injegwe.

Ibigori bitari bya terera bya buridi byariwe na nkongwa, bigifite ibara ry'icatsi bitahindutse bivanze mu birayi, bifite uruyange rufite ibara ry'umweru hirya y'aho hariho ibirayi byinshi ni sandurume.

Ama oranje g'umuhondo gahishije gafite amabarara g'icatsi ku mababi gari hamwe gari mu kintu garambitse iruhande rw'akantu k'umweru gatoya cane.

Umugore n'umugabo bari mu murima gwa wotameloni baziciye bazifashe mu ntoki. Impande yaho hari izindi ziryamye hasi, hariho n'ibyatsi bimeze nk'urutoki bibegereye.

Ibigori by'umweru byinshi bivanze n'amasaka g'umutuku n'uburo bw'umutuku, byo kubetesha biri mu gafuka k'icatsi karambuye kadahinnye bitazinze neza.

Umugore witeze igitambaro ukenyeye umupira ari kumwe n'umwana, ufashe gakonzo uri gukonza ibishyimbo n'ibigori by'umumero bari kubibagara bose barunamye, hirya yabo ari ishyamba ritoya.

Ibishimbo biri ku gaseru kashaje by'intonore bidatonoye, birambitse hasi. Harimo agakarito gakase kanditseho ngo:"Mowa dani siri layinizi". Hari ibifite amabara g'umutuku n'ibikiri bifite imiteja zikiri icatsi.

Amavoka abiri gadasatuye n'iyindi ya gatatu isatuye ifite ikibuto kinini zifite inkondo zifite ibabi rimwe rimwe hirya yazo ziteretse ku gasahane gasa n'icahatsi.

Umugore uhagaze mu murima gwa karoti afashe karoti itanu izindi ntozari zakurwa, hirya yawo hariho ibiti byinshi bitari byatsindwa, bigihagaze mu murima n'uwo mugore ahagazemo.

Umugabo uri gusoroma icayi ahetse igitebo umushumi guri mu mutwe ari kujugunyamo, yambaye igikoti gisa n'umutuku, ingofero isa n'ubururu, imbere ye hariho ibisheke bihateye.

Amapera menshi bacanye n'amababi gago gari mu base y'ubururu no hirya hari indi garimo, ariko nto gari gaba umuhondo, garacari icatsi gihishije, harimo rimwe rimwe riri gushaka kuba umutuku.

Imineke ya kamara ihiye, ibiseru bimwe birasa n'umuhondo, ibindi biri icyatsi ntabwo bihiye neza, bikaba biri mu gitariro.

Intoryi z'icatsi bagiye barakata inkondo ntibazimareho bafata rumwe barukatamo ibice bine munda harimo inzuzi zimeze nk'imitima.

Umufuka gurambitse hasi gugeretseho ugundi guriho ibidodoki by'imitsima byameze, iruhande hari igitenge kiharambitse n'agatebe kakera ka kinyarwanda kari hirya y'igikuta.

Abagenzi bane bari kugenda mu nzira mbere hari uwikoreye ikidomoro undi wikoreye umutwaro n'umuta ku rutugu und wikoreye igitoke afashe ikimvirope mu ntoki hirya hari uri kureba inyuma mbere yaho hari urutoki rwinshi bari kugenda berekezaho.

Igipangu kirimo urugo, ijaride irimo ibiti birebire, umucaca, imikindo kizitijwe n' amabuye ateye irangi ry' umweru n' umukara, n' ibyuma ku ruhande.

Abagore n'abagabo bari mu ishihamwe bari gutera ibirayi mu murima mugari. Harimo usutamye wambaye ishati Ifite ibara ry'umutuku, n'uwambaye umupira gufite amabara g'icatsi, undi n'ag'umukara. Hariho n'uri kubakontorora.

Umurima gw'amasaka gagiye kwera n'agatari gera, harimo agatukuye cane ago inyoni zariye, hirya yaho hari umusozi uriho ishamba ridakuze cane.

Amasaka gari mu murima gatari gera harimo ag'amahundo gafite impeke zeze zisa n'umutuku garacafite amababi g'icatsi hariho n'agatari gazana impeke g'ibitete hariho n'agakiri ibyana gakigeze hasi.

Ingemwe z'ibirayi ziteye muri girini hawuzi, ku murongo gumwe gumwe hashinze amapoto hejuru, hirya y'aho hari imigozi igiye ikuruye kugeza aho bitangiriye ibyo birarayi biteye.

Umugabo n'umugore bafashe intara bari kugosora ingano izindi zanditse ku ishitingi n' indi shitingi harimo n'imifuka zirimo izo ngano nyinshi.

Ibikokoriko byeze byaturaragaye bifite amababi y'umuhondo harimo icyatsi gikeya, ni byinshi bifite igiti kigihagaze biba bimeze nk'ikirabo cumye, cumye neza.

Ibishimbo bya kinyarwanda by'ibizungu bifite amabara gatandukanye ag'umutuku, ag'umweru, n'ag'umukara harimo ibyumye, ibitumye hari n'ibyubitse bitari kugaragaza ibara kubera biri munsi y'ibindi

Ibyibo bitatu birimo ubunyobwa butandukanye, ica mbere kirimo ubw'umutuku cane, ica kabiri kirimo ubufite imbeke nini cane, ica gatatu kirimo ubudatonoye.

Amajeri y'icyatsi ateye k'umuronko, arimo imiteja, agiye aziritse n'imigozi ,hirya y'aho hari ubutaka butagize icyo buteyeho ariko amajeri yo ntabwo yari yera neza.

Ibikokoriko biteyemo ubutaka bubagaye, hari icapfunduye gifite amabara g'umuhondo, ikindi kiracapfunditse, gifite amabararaga gicatsi kiri ku uruhande, yabo hirya y'aho hari umucaca n'urubingo.

Amajeri gateye mu gisandugu bakoze, agandi bagasoromeye mu gipaniye gikoresheje imigano cacitse hejuru hirya yaho hari ikindi gisanduku bakoze giteyemo ibirayi.

Ubutaka buteyemo soya ziri kuyanga uruyange rufite amabara g'umuhondo, hirya y'aho hari ugundi murima gurimo ubusa, izo soya ziracafite amabara gasa n'icatsi kubera zitari zayanga.

Ibigori by'amahundo byinshi by'umweru biri ku mbuga bishashe hamwe, hariho umuntu uri kubitaraganya ku kazuba, hirya y'aho hari shitingi irimo ubusa gusa, nta kindi kintu kihegereye.

Ubunyobwa budatonoye bwigoronzoye hari ubumeze nk'umunani, ubundi bufite ibara ry'umweru, ubundi bumeze nk'ubwaboze, hariho n'ubuhagaze iruhande, y'ubundi bugiye kumera bufitetemo n'imizi.

Igikokoriko bashize ku gasahani ka kadonga, gifite ibintu by'ibinyagu bimeze nk'iby'inzuki, carakuze ni ico gukuramo imbuto yo gutera mu murima ku buryo wagikuramo n'ibindi bintu bitandukanye.

Soya ifite ibiteja byinshi, ifite n'amababi g'icatsi garacari matoto, ntago amababi go hasi gari guma, nago hejuru garacari matoto.

Imiteja batekaga isa n'amaharare, irasoromye ariko amababi gayo gasa n'icatsi, naho uruyange rwo rusa n'amaharare, harimo n'akandi kabara k'umuhodo.

Umurima gurimo ibikokoriko bitari byabumbura neza, mo ndani nto hari hazamo imbuto, ariko harimo utuntu tw'uturabo tuzana imbuto, hakabaho n'amababi kuruhande aba akiri icatsi.

Umunyegari utwaye ibishimbo yabihambiye ku igare inyuma ku ntebe imbere afashe inyuma yambaye bodaboda zifite amabara g'icatsi n'umupira gwa maharare inyuma ye hari urutoki ruri kwana.

Abagore babiri bari kugosora ubunyobwa. Umwe yafashe ibakure ari kuyiburengamo undi afashe igisafuriya na we ari gushiramo. Inyuma yabo hariho ameza gateretseho inyanya, n'intebe isizwe amarangi g'umutuku.

Isahane y'umweru, iriho ibishimbo hejuru byinshi yuzuye, iteretse ku rutare, hirya y'aho hari utwuma twa ferabeto duteretse hasi dushashe hasi.

Ubunyobwa buranduye budatonoye, butanasogoye buri hejuru y'ubutaka. Bufite amabara g'umweru hariho n'ubufite amabara gagiye gusaza, amababi gayo garacari icatsi.

Agakarito karimo inzuzi, karimo ibishyimbo bisa n'umweru, akandi karimo amagi, akandi karimo imbuto y'ibirayi bitandukanye, ibindi hasi ni uburyo ni ngano.

Ibishyimbo bifite uruyange, byiza bitari byera rw'umweru bifite imiteja itarazanamo intonore muri byo.

Inka iryamye mu macaca yabyagiye hirya y'aho hariho ibiti by'amashipuri, hirya hari agasozi gatoya irimo kureba imbere yabanguruye amatwi gayo.

Umuntu ufashe inyama uri kuzikata ari kuzipima, yambaye agakufi gafite amabara g'umukara n'ag'umweru, impande ye hariho ibirahuri.

Inka ebyiri ziri mu kiraro hirya yacyo hari abagabo benshi, babiri begereye ikiraro, umwe wambaye umupira w'umweru n'undi, umwe afashe ku nka y'umukara hariho n'uwambaye ikoti ry'umukara ririmo amabara y'umweru.

Inka iri mu kiraro, umugabo ari gutera umuti mu ipombo yambaye igisarubeti gifite ibara ry'icatsi, hirya y'aho hari ubwatsi n'amazu bitandukanye.

Abagabo batatu bari kuragira inka bari kwishyurira, umwe ayifasheho, undi ari gukubita inkoni mu gihuru, undi wunamye yambaye ishati ifite ibara ry'icatsi n'ingofero y'umweru.

Umugabo uri mu kiraro cy'ingurube, zimwe zirebye hepfo izindi haruguru. Zikaba zifite amabara y'umweru, na yambaye agapira gafite amabara y'umutuku, hasi ipantaro isa n'ikoboboyi.

Abagabo babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu, umwe yambaye ingofero, hari inka y'inyarwanda y'igaju ifite amahembe maremare, iri ahantu bakingirira inka, hamwe bayitera urushinge ntibone uko yiruka.

Ingurube iri mu kiraro, ifite ibibwana bitanu, yunamye iri kurya ibyatsi. Icyo kiraro cyayo gikozwe n'ibiti bitari imbabari, hasi hashashe isima.

Ingurube itandatu zifite ibara ry'umweru, ziri impande y'ikiraro cubakishije amatafari gahiye, hariho n'igiti gifashe kuri iyo nzu, impande hari ibyatsi nabyo bifite amabara g'icatsi bitari byuma bihari.

Inkoko iri mu kigunda iri igushaka kudoma ibyatsi, hirya yayo hariho n'ibindi byumye, bimeze nk'ibishogoshogo bakundaga kuzisasira. Hirya yaho hariho n'utuntu tumeze nk'ubunyatsi twakuze.

Inyoni iri kurira igiti c'indumburabutaka, gifite amashami gatari gasaza n'amababi gose gakiri icatsi, inyoni ifite ku mutwe ibara ry'umutuku.

Inyoni ihagaze ku cari kiri ku mashami g'ibiti, isa n'umuhondo ifite amaso gagiye gusa n'umutuku, hirya yaho hari igiti kinini cane c'inganzamarumbu.

Inyoni iri kurira igiti kinini cane camezeho isharankima, ifite amabara g'umukara n'ag'umweru mu josi n'ag'u mutuku, hirya yaho hari ibindi byatsi bitandukanye.

Imbwa ibyagiye mu busitani burimo indabo, umucaca, irimo kwitegereza umuntu runaka cangwa ikintu runaka.

Isha iri mu shamba iri kwimya iyindi sha, hari izindi ziri kuyirebera, hari n'izibyagiye hasi ku mucaca, ziri kureba ntaco ziri gukora.

Urwumvu ruri kugenda ku rutare, rufite ibara ku mutwe risa n'umuhondo, n'aho undi mubiri wose ugiye gusa n'ubururu n'umweru.

Akanyamaswa ko mu gasozi kitwa urwumvu gahinduranyaga amabara kari kugenda hejuru y'umuhanda n'ibyatsi, karigutambika gafite amabara g'umweru n'agagiye gusa nk'umukara ,hirya y'aho hari ibintu bisa n'icatsi.

Inyoni ihagaze ku giti ifite amababa gashaje ishaka kuguruka, hirya ikirere gisa n'ubururu, igiti ihagazeho nta mababi gifite kuko nta babi na rimwe mpabona.

Akanyoni gahagaze ku ishami ry'igiti， gafite ibara risa n'umutuku mu gahanga，rifite ibara ry'umukara，ku mutwe n'umugongo ibara ryako gasa n'umuhondo.

Ibinyoni biri mu cari bitari byakura bitari byamera amababa gose, biri mu cari cubakishije uduti dusoberekeranyije, hirya yaho hari igiti giteretsemo ico cari.